Radiyanti ubwishingizi, inzu yawe ni igishoro cyawe kinini, ikaba n'agaciro kawe, menya neza ko inzu yawe yishingiwe, kandi irinzwe na Radiyanti hamagara makumyabiri mirongo itanu.

Umugabo umwe w'umwirabura wambaye ishati y'umweru na karuvati y'umukara yamamaza ubwishingizi bwa sonarwa, avuga yuko ubwishingizi bwa sonarwa budateye ubwoba igihe uri mu maboko y'umuntu wa nyawe.

Amasaha ubwishingizi bwa radiant bukoreraho, kuwa mbere kugeza ku wa gatanu ni uguhera saa moya n'igice za mu gitondo, kugeza saa mbiri z'umugoroba, kuwa gatandatu ni guhera saa mbiri n'igice, kugeza saa kumi z'umugoroba, kumuganda ni uguhera saa saba za nimugoroba, kugeza saa kumi n'ebyiri, ku munsi w'ikiruhuko ni uguhera saa tatu za mu mugitondo, kugeza saa kumi za nimugoroba, isezerano n'isezerano.

Umugore wambaye umupira w'ubururu n'isorobeti y'umukara yamamaza ubwishingizi bwa buritamu, ubwishingizi bwihariye kandi buhendutse ku matsinda n'ibigo bito.

Iduka ririmo imyambaro y'abagore y'ibitenge bifite amabara menshi harimo umutuku, umukara, umweru, umuhondo n'ubururu, bipanze ku murongo bimanitse bizinze neza muburyo bugaragara.

Umukobwa ufite imisatsi miremire y'umukara w'imibiri yombi yambaye ishati y'amaboko magufi nisaha kukaboko, ndetse nisakoshi arasuhuzanya n'umugabo wambaye ishati iciyemo uturongo twamabara n'umucuruzi mw'iryo duka.

Umugore wambaye isengeri n'akagofero k'umweru mu mutwe, ari guseka, yicaye aho acururiza, harimo ibicuruzwa bitandukanye nk'inyanya ndetse n'amavuta.

Mu nzu ikoreramo isoko ricuruza imyenda, harimo umugabo umwe uri kugura imyenda, imbere ye hari umugore w'umucuruzi w'imyenda. Umuguzi ni umuntu ufite amafaranga ukeneye kugura imyenda naho umucuruzi ni umuntu wicaye mu iduka uri gucuruza imyenda.

Iduka ricururizwamo ibikapu bikoreshwa mu ngendo harimo ibitukura, iby'umukara, ndetse n'ayandi mabara, harimo n'ibindi bicuruzwa nk'inkweto z'ubururu, umutuku n'umukara.

Iduka ricuruza ibijyanye n'imyenda harimo imyenda y'abakuru nk'imipira, ndetse n'imyenda y'abana. Bimanitse ku gikuta cy'umweru, hifashishijwe udukoresho twabugenewe.

Inzu icururizwamo ibijyanye n'imyambaro ndetse n'imideri hanze hamanitse imyenda, imyenda ihisha ubwambure ndetse ituma umuntu agaragara neza, imyambaro ifite agaciro ku uyicuruza kuko ituma yinjiza amafaranga.

Inzu icururizwamo ibijyanye n'imideri, amatara y'umweru ari kwaka, imyambaro imanitse hejuru ku nkuta, harimo ameza manini ndetse indi imanitse ku bikoresho byabugenewe.

Abagabo batanu, bamwe bambaye amashati yu'mweru abandi imipira ndetse n'amapantaro y'umukara, bane bambaye amapantaro, umwe yambaye ikabutura, bafashe icyapa cyanditseho akagera inyuma yabo hari imodoka eshatu.

Abagabo bahagaze ku mbuga ishashemo amatafari, iri imbere y'inzu ikorerwamo n'uruganda rwa Kiya, mu mbuga, inyuma yabo haparitsemo amamodoka afite ibara ry'umukara.

Imodoka eshatu zitwara imfungwa n'abagororwa ziri mu mabara ya gisirikare abagabo babiri bazihagaze imbere.

Imodoka ifunguye imiryango yayo yose ifite ibara rya kaki n'amatapi y'umukara ifite ikirahure hejuru gifunguka umuyaga ukinjira.

Ikimashini cya tingatinga cyifashishwa mu guhinga ndeste no gucukura ahantu icyobo kirekire kandi vuba, kibikora ku muvuduko abantu batabikoraho, kinywa mazutu, gitwarwa n'abantu.

Abagabo batatu umwe yambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'ubururu, undi yambaye umupira uciyemo imirongo n'ipantaro y'ubururu, undi yambaye ipantaro y'umweru bafashe ikirango cyakagera inyuma yabo haparitse imodoka y'umukara.

Igikamyo kinini gifite amabara asa n'icunga, imbere yacyo hahagaze abagabo babiri bafashe ku gishushanyo gishushanya urufunguzo rw'imodoka, cyanditseho Akagera motozi.

Iyi modoka ni imodoka nziza cyane, ni imodoka ikomeye yakozwe n'uruganda rwa huyundayi, ibereye ijisho kandi ni nziza kuyigendamo, uriteguye hamagara zeru, karindwi, umunani, gatandatu, gatatu, gatatu, umunani, kane, mirongo icyenda na kane uyigure.

Umugabo wambaye umupira w'umutuku n'ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara afite ikirango cy'Akagera, inyuma ye hari imodoka ya mitsu bisi y'igikamyo ishinzwe gutwara imizigo.

Imodoka y'umukara iparitse mu mbuga ishashemo amakaro ashushanyije nk'amatafari, ikenera umuyobozi uyitwara inywa lisansi cyangwa mazutu.

Imodoka ndende itwara abantu benshi iri mu mabara y'umweru, inyuma yayo haparitse izindi modoka zirimo izisa n'umweru, izuba riri kuva.

Mu imbere mu modoka harimo intebe z'imisego, imbere yaho harimo izindi ntebe, zicarwamo n'umuyobozi w'ikinyabiziga imiryango y'imodoka irafunguye.

Umugore n'umugabo bahagaze mu mbuga ngari, ishashemo amabuye, iruhande rw'imodoka isa n'umukara, inyuma yaho hari inzu ifite ibirango by'Akagera motozi.

Mu mbuga ngari ishashemo amatafari, hahagazemo abagabo babiri, bafashe ishusho ikozemo urufunguzo, inyuma yabo hari imodoka ebyiri zisa n'umweru, hejuru yaho hari inzu iriho amagambo y'Akagera motozi.

Umugabo yegeranye n'abagore babiri bambaye amakanzu b'abazungu, naho umugabo ni umwirabura, bahagaze mu mbuga ishashemo amatafari, inyuma yabo hari imodoka, bafashe ikimenyetso cy'urufunguzo rwanditseho amagambo nka Akagera motors.

Amafaranga ari mu bwoko bw'inoti yemewe na banki nkuru y'u Rwanda amafaranga afite agaciro kibihumbi bibiri ashushanyijeho umugezi iruhande rwawo hari ibyatsi.

Hanze izuba riri kuva hahagaze abagabo batatu bambaye impuzankano z'ikigo gicunga umutekano, bahagaze impande y'imodoka iri mu mabara y'umuhondo.

Umugore uri kubara amafaranga yo mu bwoko bw'inoti imbere ye hari icyuma cyifashishwa mu kubara amafaranga y'inoti gikenerwa iyo amafaranga atari make ndetse bitoroheye uyabara kuba yayabarisha intoki icyo cyuma kirizewe kuko imibare yacyo iba yizewe cyane buri gihe gusa ni ngombwa ko nubwo icyo cyuma cyayabara nawe wayasubiramo n'intoki kugira ngo wizere neza .

Icyuma gikoreshwa ahantu habikwa cyangwa habikurizwa amafaranga menshi cyane,, akaba ari icyuma gifasha kuyabara mu buryo bwihuse, amafaranga bayashyiramo kikayaburara vuba vuba ubundi kikakwereka uko angana.

Amafaranga yo mu bwoko bw'inoti, afite agaciro k'ijana, yerekanwe ku mpande zombi, uruhande rw'imbere ruriho umugore uhetse umwana, naho urw'inyuma rushushanyijeho imparage.

Ifaranga ryo mu bwoko bw'igiceri, gifite agaciro ka mirongo itanu. Amafaranga mu buzima busanzwe ni ingirakamaro kuko amafaranga afasha kwishyura inzu, afasha kwishyura n'ubundi bwishingizi butandukanye. Muri make amafaranga turayakeneye kugirango tubashe kugira ibyo tugura.

Amafaranga ari mu bwoko bw'inoti ifite agaciro k'igihumbi, yanditseho amagambo yerekana ko ari amafaranga ya banki nkuru y'u Rwanda, ariho intore iri guhamiriza ifite icumu mu ntoki.

Mu nzu ahatangirwa serivisi, hari umugabo wambaye umupira w'umweru w'amaboko magufi, atandukanyijwe n'ibirahure bibonerana n'undi mugabo uri kwaka serivisi, wambaye ishati n'agapfukamunwa.

Iyi foto iriho inoti y'amafaranga y'u Rwanda igihumbi. Ishushanyijeho inka, ndetse n'ahantu hari urwuri rwinshi.

Amafaranga y'inoti ifite agaciro k'ibihumbi bitanu, yari mu ibara ry'umutuku, yashushanyijeho uduseke tubiri dupfundikiye, ku mpande yayo hariho uturango tw'imigongo ateretse ku meza.

Amafaranga ari mu bwoko bw'igiceri ashushanyijeho icyayi, icyayi gihingwa mu Rwanda mu duce two mu ntara yo mu majyaruguru nka za Musanze, za Rulindo aho hakunze guhingwa icyayi. Icyayi kibumbatiye ubukungu bw'u Rwanda, muri make icyayi ni ingirakamaro.

Mu ndobo ibonerana harimo amandazi. Amandazi ni ingirakamaro kuko ari mu byo kurya bitanga imbaraga akozwe mu ifarini n'izindi fu zitandukanye zifasha mu kuyongerera uburyohe n'intungamubiri ni byiza gufata irindazi ku ifunguro rya mu gitondo.

Ibyo kurya bikozwe mu ifarini bizwi nka capati, biri hejuru ya agasahani karimo udushushanyo twa amabara ya ubururu na umutuku. Ibi byo kurya biba bikozwe mu ifarini.

Mu nzu isize amarangi y'ubururu ku nkuta ifite utubati dusa n'ubururu, hamanitsemo amata yo kunywa ari mu dupapuro twabugenewe. Amata ni ingirakamaro cyane k'uyanywa kuko afasha mu kubaka umubiri.

Umugore wambaye ishati yigitenge, yicaye mo imbere munzu, yicaye ku ntebe ya ubururu, imbere hari ameza ateretseho amata yo kunywa.

Igikombe kibonerana gikoze mu kirahure, kirimo amata giteretse hejuru y'akameza gatwikirijwe n'igitambaro.

Icyuma gikoreshwa mu gukonjesha amata, cyubakiye ku twuma dushinze ku buso bwo hasi hashasheho amakaro y'umweru, mu nzu ifite inkuta zubakishije amatafari ahiye.

Igikombe gikoze mu ibirahure kirimo amata. Amata ava ku inka, inka iyo yariye ubwatsi neza, ikanywa amazi niho itanga umukamo uhagije.

Umucecuru wicaye kuntebe yibiti yambaye imyenda ikoze mubitenge imbere ye harameza ateretsweho igikombe cy'amata asa n'umweru.

Ibiribwa bigizwe n'ibirayi, ndetse n'ifarini biteretse hejuru ku isahani y'icyuma iteretse ku meza akozwe mu biti.

Umugabo wambaye ishati y'umukara ufite mumaso hirabura ahagaze imbere y'umukobwa mukazu gacururizwamo ibyokunkwa byuruganda rw'inyange.

Ameza ateretseho umupfundikizo w'ubururu uriho ibyo kurya by'ibiraha bikozwe mu nyama ndetse n'ifarini.

Inzu icururizwamo amata y'inyange, ifite inzugi ndetse n'ibirango biri mu ibara ry'ubururu naho amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru ndetse n'ibara ry'icyatsi, ku nzugi hashushanyijeho umwana umwenyura cyane wanezerewe wambaye imyenda y'umweru.

Terefone ikorwa n'uruganda rwa samusanga ikaba ikoreshwa mu guhamagara, mu kwandikirana ubutumwa bugufi ndetse no gukoresha murandasi.

Gura amayinite mu buryo bworoshye ukoresheje terefone yawe, ushyiremo icyagufasha kuba watangira gukoresha iyi serivisi. Shyiramo vuba vuba

Uburyo nkoranabuhanga bukoreshwa mu kwishyura harimo ubugiye butandukanye, harimo harimo Airtel money, MTN mobile money, gukoresha ikarita ndetse no gukoresha konti za banki.

Umugore n'umugabo bari kureba muri telefoni. Umugabo aricaye, umugore arahagaze, umugore ateze igitambaro mu mutwe, harimo ibyapa n'ibirango bya momo

Umuntu ufite amafaranga mu ntoki y' inoti. Ari kuyabara amafaranga adufasha guhaha ibyo ndukeneye kwishyura, inzu, gutega, kwishyura ishuri, ndetse n'ibindi byose bisaba kwishyura.

Ibiganza bifashe ku mafaranga y'inoti inoti ni ubwoko bw'amafaranga bukoze mu bipapuro, bwanditsweho amagambo ayiha agaciro, amafaranga ni ingirakamaro iyo umuntu akeneye kwishyura cyangwa guhaha ibintu bitandukanye.

Amafaranga ari mu bwoko bw'inoti, amafaranga arahahishwa, amafaranga yishyura ishuri, amafaranga ashobora kubikwa n'umuntu ku giti cye cyangwa akajyanwa mu ma banki.

Ari kubara amafaranga yo mu bwoko bw'inoti amafaranga n’ingirakamaro mu mibereho ya muntu, amafaranga akoreshwa mu kwishyura ishuri, ubwishingizi mu kwivuza, ubwishingizi bw'ibinyabiziga ndetse n'ibindi byinshi.

Amafaranga yo mu bwoko bw'inoti z'amadorari afite agaciro k'ijana, arambitse agererekeranyije hamwe, ashushanyijeho umugabo w'imisatsi miremire. Amafaranga y'amadolari mu Rwanda tuyakira nk'amadovize.

Inote ziriho amafaranga atandukanye ijana, mirongo itanu, makumyabiri, hariho ifoto y'umugabo hakaba hariho ururimi rw'igishinwa rukoreshwa mu gihugu cy'abashinwa.

Umuntu uri kubara amafaranga y'inoti z'amadorari ateretse ku meza iruhande rwe hari mubazi ifite amabuto nayo iteretse ku meza.

Umugabo afite amafaranga yo mu bwoko bw'inoti arimo kuyabara, amafaranga akora byinshi bitandukanye, harimo kwishyura ubwishingizi, kwishyura inzu, kugura ibiribwa ndetse n'ibindi.

Mu nzu mo imbere, amatara y'umweru ari kwaka, harimo ameza asa n'umweru, intebe zo kwicaraho zikoze mu byuma, zifite udusego dusa n'umukara.

Ku mbuga ishashweho isima y'igiheri, hateretsemo intebe zifite imisego zegamirwa ziri mu ibara ry'ubururu. Hari n'udutebe duto twicarwaho, intebe zicarwaho iyo umuntu ananiwe cyangwa iyo ari kuganira n'abandi bantu.

Intebe z'imisego zegamirwa zifite ibara risa nk'ivu ndetse na kake ziri mu nzu ishashemo amakaro y'umweru hasi hagati yazo harimo akameza, akameza kifashishwa mu guterekaho ibintu nk'ibyo kunywa ibyo kurya imitako nk'indabo n'ibindi byinshi.

Iyi nisaro igaragara neza cyane kubera intebe, utubati, ndetse n'utumeza twiza cyane tuyiteretsemo.

Imbere y'inzu ifite amarangi y'umweru, hari imbuga yamezezemo utwatsi, hateretsemo intebe zifite imisego y'umukara zikoze mu biti zikikije ameza nayo abajwe mu biti.

Akabati gakoze mu mbaho z'ibiti gafunze neza iruhande rwako hari intebe nazo zikoze mu biti zifite imisego y'umukara ziregamirwa imbere yazo hari ameza abaje mu biti.

Mu nzu hateretsemo ameza ndetse n'intebe byose bibaje mu biti, ameza akoreshwa nk'ibikoresho byo mu nzu biterekwaho amasarori n'amasahani igihe abantu bari gufungura, naho utubati tubikwamo imyenda se, ibikombe, n'amasahani igihe bisukuye.

Icyumba gishashemo amakaro hasi kirikwakamo amatara y'umweru gifite inkuta z'umuhondo ,giteretsemo intebe zegamirwa ndetse n'ameza ateretseho ikaramu n'urupapuro.

Mu busitani bw'inzu ifite igisenge cy'amategura, ifite inkuta zubakishije amatafari ahiye, n'inzugi n'amadirishya by'ibirahure gusa. Harimo utwatsi twiza cyane hateyemo n'umutaka, munsi yawo harimo intebe n'ameza.

Inzu ishashemo amakaro ifite ameza atondetseho, udutebe dufite udusego, ifite akabati gatondetsemo ibyokunkwa bitandukanye.

Mu nzu harimo ibikoresho nk'utumeza intebe. intebe z'imisego yegamirwa, utubati dukoze mu cyuma inzu bayibamo. inzu bashobora no kuyikoreramo ibindi bikorwa nko kuyicururizamo se, cyangwa se ikaba ishuri bigiramo.

Mu nzu harimo ameza akikijwe n'intebe zikoze mu giti, zifite udusego twegamirwa dutukura, intebe n'ameza bigiye biteye mu masibo.

Mu nzu ifite inkuta zisize amarangi y'umweru, hicayemo umugore n'umugabo, hasi hashashe amakaro, hejuru hari amatara, hari kwaka ibara ry'umweru.

abagabo babiri bicaye mu biro umwe yicaye kuri mudasobwa afite icupa ry'umutobe rimuteretse imbere ,yicaye ku ntebe imanitesho umwenda w'amabara yambaye ishati y'umweru ,undi umwicaye imbere yicaye mu ntebe y'umukara.

Icyumba kirimo ameza ndetse n'intebe zitukura, hicayeho umusore wambaye ikoti ry'umukara n'ishati irimo uturongo, hirya ye hahagaze umugabo uri gusoma mu bitabo biri kumeza.

Icyumba gisize amabara y'umweru n'umutuku kirimo intebe z'umukara harimo n'ameza asize ibara ry'umukara n'umutuku, hicayemo umukobwa wambaye umupira imbere ye hari mudasobwa.

Mukiriya wacu tunejejwe no kubamenyesha ko banki ya akisesi iherereye mu Rwanda ifatanyije n'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro, yabateguriye amahugurwa y'umunsi umwe ku bijyanye n'umusoro uteganyijwe itariki icumi kamena bibiri na makumyabiri na rimwe amasaha saa tatu kugeza saa munani z'amanywa bizabera kuri hoteli ya remigo.

Umugore wambaye igitenge washyize n'igitenge mu mutwe we, afite igikoresho cye ngendanwa k'ikoranabuhanga ari kwamamaza inguzanyo za sipeni ishimire inguzanyo itagira ikiguzi.

Imbaga y'urubyiruko bambaye imipira y'icyatsi ndetse bahagaze inyuma yabo hari icyapa cyamamaza girini amayaga.

Isoko ririmo abaguzi n'abacuruzi benshi hacururizwamo ibiribwa ndetse imbuto n'imboga, harimo inyanya, intoryi, imiteja, karoti, ibitunguru.

Umugore wirabura, wambaye amaherena n'imisatsi miremire, inyuma ye haparitse akamoto k'amapine atatu gasa n'ubururu, hageze umutaka utukura.

Umugore uteze igitambaro cy'umweru mu mutwe ufite amaherena ku gutwi wambaye ishati y'umweru n'igitenge hasi, ahagaze mw'isoko imbere ye hari ibitunguru.

Mu isoko harimo abantu benshi; abaguzi n'abacuruzi. Mu bicuruzwa harimo amacunga, mu myambaro harimo ingofero, ijipo,... abacuruzi bicaye ku dutebe tw'udusongabugari.

Isoko ririmo abacuruzi benshi ricuruza imboga harimo ibitunguru ,inyanya zifunze mu mifungo ndetse n'iziri mu kadobo .

Isoko ririmo abantu benshi n'abagore bahetse abana bato, ricururizwamo ibyo kurya harimo imboga, inyanya ziri mu gatebo, bose bari hanze.

Imbere y'inzu y'igorofa ikorerwamo ubucuruzi, haparitse amamodoka yegeranye n'inzira nyabagendwa, isa n'umukara. Iragendwano n'abayobozi b'amapikipiki.

Iri ni isoko ritubakiye ricururizwamo ibijyanye n'imboga, aha harimo inyanya, amashu, ibitunguru, amakaroti n'ibindi byinshi harimo kandi abaje guhahira muri iri soko.

Inzu y'umuturirwa ndende cyane yubakishijwe n'ibirahure ifite amagambo ayanditse hejuru.

Umugore uhetse umwana ari mu isoko ricuruza imboga zirimo inyanya zitukura, ndetse n'amashu agerekeranyije inyuma yaho hari n'izindi nyanya.

Akazu kari ku muhanda gakozwe mu byuma, gasize irangi ry'ubururu, kamamaza emutiyene, harimo umukozi wabo ushinzwe guha serivisi abantu bashaka kubikuza cyangwa kubitsa amafaranga, imbere yako hahagaze abagabo babiri.

Akapa gato gasa n'umuhondo, karimo utudirishya dufite ubuso bw'umweru, twanditswemo n'imibare, hariho kandi icyapa cya Emutiyeni, mu buryo bwifashishwa kwishyura bw'ikoranabuhanga.

Umugabo wambaye umupira wamabara y'umweru ukoreshwa bakina umupira wa ruhago afite telefoni mu ntoki. Ari gukoresha telefone, telefone ni ingirakamaro mu mirimo ya muntu ya buri munsi ikoreshwa bahamagara, bakoresha murandasisi se cyangwa bohereza ubutumwa bugufi.

Uyu ni umukozi uhagarariye ikigo gitanga ibijyanye n'itumanaho mu Rwanda cya emutiyeni, uri gufasha umugana.

Umutaka w'umuhondo hicayemo umugore wambaye umupira w'umweru, ufite ibirango bya emutiyene mu mugongo. Umupira wa maboko magufi uriho utubara tw'umuhondo ku ikora no ku maboko. Ari gufasha abakiriya bayigana.

Umugabo w' imibiri yombi wambaye agapira k'umuhondo kariho ibirango bya emutiyeni yicaye ku igare rifite ikirahure imbere n'inzogera.

Abasore batatu bambaye imyambaro y'umuhondo yanditseho amagambo yanditse mu ibara ry'ubururu bambaye ingofero z'umukara bahagaze imbere y'icyapa cy'umuhondo cyanditsweho n'amagambo ya MTN na ayoba .

Icyapa kigaragaza ahatangirwa serivisi za kompanyi ikora iby'itumanaho ya emutiyeni kiri mu mabara y'umuhondo iyi kompanyi itanga serivisi zijyanye no guhamagara kohererereza abandi amafaranga ndetse no kuyakira.

Umugabo uhagaze yifashe mu mayunguyungu wambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'umukara; ahagaze imbere y'akazu gashinze ku muhanda gasize irangi ry'umuhondo ryamamaza emutiyene; mu imbere hakaba harimo umukozi ushinzwe gutanga serivisi ku bakiriya bakeneye kubitsa amafaranga no kubikuza bakoresheje emutiyene.

Akazu gashinze ku muhanda, umuhanda w'igitaka k'icyuma gasize amarangi y'umutuku, gakoreramo umukozi wa eyateli ushinzwe gutanga serivisi ku bazikeneye kubikuza amafaranga, kubitsa, ndetse n'ibindi.

Akazu k'ibyuma gafite amabara y'umutuku kariho ibirango bya eyateri, eyateri ni kompanyi itanga serivisi zijyanye n'iby'itumanaho hano mu Rwanda, eyateri itanga serivisi nko guhamagara, kohererezanya ubutumwa n'amafaranga.

Ishyura ukoresheje kode ya momo, icumi mirongo inani nakane cumi nagatatu ushyireho amafaranga y'ibyo waguze uyoherereze umucuruzi batagukase amafaranga na make.

Umugabo w'umuzungu afite agaseke ari guhereza umwana umuri imbere ngo agire ibyo akuramo' Umugabo yambaye umupira w'amaboko magufi usa n'umweru, inyuma ye hari amabara ya emutiyene.

Akazu gatangirwamo serivisi za MTN karasa n'umuhondo kariho n'ibirango bya MTN.MTN ni kompanyi itanga serivisi z'itumanaho hano mu Rwanda zirimo guhamagara, kohererezanya no kwakira amafaranga na serivisi zo gukoresha murandasi .

Umugabo n'umugore bambaye impuzankano y'ikigo cy'ubucuruzi gitanga serivisi z'itumanaho mu Rwanda cya MTN bari gutanga serivisi kumukiriya ubagana wicaye ku ipikipiki yambaye ingofero y'umukara.

Icyumba gisizemo amarangi y'umweru, umuhondo, hakaba handitseho emutiyene barimo kwiyamamaza, hakaba harimo abakobwa batatu bambaye imipira y'umuhondo n'undi uhagaze imbere yabo wambaye isengeri.

Akazu k'icyuma gasize ibara ry'umuhondo ka emutiyene, imbere yako hahagaze umugabo n'umugore, umugabo wambaye umupira w'umuhondo n'ipantaro y'ubururu, umugore yambaye agasengeri k'umuhondo ndetse n'ikabutura y'umukara.

Mu rurukari isoko ry'ikoranabuhanga, Kigali isoko riri kuri murandasi, rifite ibirungo ndetse n'ibindi biryo umuntu ashobora gutumiza atavuye iwe.

Umugabo wambaye ingofero y'icyatsi irinda impanuka kubatwaye amagare yambaye ishati y'amaboko magufi ifite ibishushanyo by'imigongo iruhande rw'amaboko atwaye igare ahetse agasanduku gakoze mu mwenda gashyirwamo ibintu birimo ibicuruzwa bitwawe na vubavuba.

Ipikipiki iparitse mu mbuga ishasheho amabuye ihetse agasanduku k'icyatsi kanditseho vuba vuba. Vuba vuba ni kampani itanga ibijyanye no gushyira abantu umu ngo ibyo baguze.

Abagabo babiri bambaye amashati y'icyatsi bahagaze imbere yipikipiki ihetse agasanduku kariho ibirango bya vuba vuba nako gasa ni'cyatsi .

Umugabo uhagaze imbere y'ipikipiki ihetse agasanduku gatukura, aragafunguye ari gukuramo ibintu. Umugabo yambaye ingofero yagenewe abatwara amapikipiki.

Abagabo babiri, umwe wambaye agapfukamunwa, undi yambaye ingofero yabugenewe, yambarwa igihe umutwazi atwaye ipikipiki, bahagaze ku buso bw'igitaka gusa, imbere yabo hari ipikipiki.

Imodoka eshanu ziparitse mu mbuga ishashemo igiheri cya umukara, zifite igisanduku cy'inyuma cyanditseho Twiga mu mabara ya umweru.

Umuyobozi w'ipikipiki wicaye ku ipikipiki iparitse mu mbuga yambaye ingofero irinda abatwara ipikipiki isa n'umutuku, inyuma ye hari agasanduku kanditseho amagambo nka rashifudu, iyi ni kompanyi itwara ibyo kurya mu ngo igihe umukiriya yakoze isaba.

Icyumba cy'inzu gifite umuryango ufunguye, urimo amakaro ashashe hasi hubatseho ubwiherero bwa kizungu burapfundikiye burasa n'umweru, ni ngombwa ko urangije gukoresha ubu bwiherero asukamo amazi cyangwa agakoresha imiti yabugenewe.

Inzu ifite igisenge cy'amabati atukura ari utugongo yubatse icuritse, ifite igikuta cyubakishije amatafari ahiye, ifite umuryango wo ku irembo ufunguye uriho urugi rw'ibyuma.

Inzu ifite igisenge cy'ubakishijwe amabati atukura hariho utugongo duto ifite urubaraza rurimo amakaro y'umweru ashashe hasi.

Umugabo wambaye ikoti ry'umukara, ipantalo y'umukara n'ishati y'umweru iri inyuma y'ikoti, ahagaze mu nzu ishashemo amakaro, ifite inkuta z'umweru n'inzugi zifite ibikingi by'umukara n'ibirahure bibonerana.

Umwirabura ufite ubwanwa yambaye agapfukamunwa k'ubururu, ishati y'umukara, ipantaro y'amabara y'ubururu. Ahagararanye n'umuzungu wambaye ishati y'umweru, ipantaro y'ubururu watebeje bari kureba ibidukikije.

Inzu isize amabara y'umukara umweru, umuhondo ikaba iherereye i Kigali kanombe ifite ibyumba bine ndetse n'ubwiherero butatu ikaba ikodeshwa ibihumbi magana atanu by'amanyarwanda buri kwezi.

Inzu igeretse ifite ibara ry'umweru ndetse ikaba ikodeshwa, ifite ibyumba bibiri, n'ubwiherero bubiri, nta gikoresho na kimwe kirimo, ikodeshwa ibihumbi magana atandatu by'amafaranga y'u Rwanda ku kwezi.

Inzu ifite igisenge gucuritse, cyubakishijwe n'amabati atukura, afite imigongo, ifite igikuta gisize amarangi y'ibara ry'ubururu bweruye.

Inzu isize amarangi y'umuhondo, umweru n'umukara; irimo n'amakaro iherereye i kigali muri kanombe ifite ibyumba bine ndetse n'ubwiherero butatu irakodeshwa.

Inzu nziza ifite amabara y'icyatsi, umweru n'umuhondo ikaba ari inzu iri kugurishwa m’u Rwanda ikaba igurishwa amafaranga miliyoni ijana na mirongo itatu (130,000,000FRW) z'amanyarwanda.

Inzu yo guturwamo ifite umuryango munini wo ku rupangu, ifitemo ikigega cy'umukara, yubatse iruhande rw'umuhanda w'igitaka.

Imbere y'inzu ifite amarembo akingishije urugi rusa n'umukara ifite inkuta z'umweru nidirishya ry'imbere rikozwe nibirahure hateye ibiti bibiri .

Iyi nyubako yo guturwamo iherereye mu rugando ho mu mujyi wa kigali aho ku mafaranga y'amadolari igihumbi na magana atanu ku kwezi umuntu yayituramo ituranye na convention centre .

Iri ni isoko rihahirwamo ibyiganjemo ibya kwire ndetse n'impu birimo ibikapu, imikandara ndetse n'inkweto zo kwambara.

Isoko riherereye mu karere ka Nyarugenge rikora ubucuruzi bw:ibintu bitandukanye, inanasi, imbuto zose z'ubwoko bwose, Ibikapu. Ni isoko ryubatse neza ririmo parafo amatara kandi rikaba Ari isoko rikomeye.

Mu nzu icururizwamo ibijyanye n'imikeka hamanitsemo imikeka ifite udushushanyo turimo imigongo, imigongo ni igishushanyo gifite aho gihuriye n'amateka kuko inzu z'abami zabaga zisakaye mu buryo bw'imigongo.

Icyapa 'ifatabuguzi rya emutiyene cya tubitayeho kerekana ibiciro by'ifatabuguzi, byo gukoresha murandasi harimo ibiciro icyatanu baguha amajiga mirongo itatu ku cyumweru ndetse n'icyanu, amajiga cumi n'atanu ku kwezi.

Iduka ricuruza ibikoresho bitandukanye, harimo amacupa y'inzoga zo kunywa ndetse n'isabune y'ifu, iri mu ndobo y'umweru, ifite umufuniko w'umuhondo n'ibirango by'umuhondo.

Inzu ifite imiryango ibiri minini ifunguye n'amadirishya hejuru amanitseho ibirango bigaragaza ko ari ihahiro rya hood mart rifite hasi hashashe amakaro yumweru .

Umugore ufite imisatsi miremire iboshye ufite igikaratasi mu ntoki ari mu isoko guhaha imboga zirimo ibitunguru bitukura ndetse n'inyanya.

Isoko ricururizwamo ibikoresho by'ubugeni, birimo n'inkweto zikoze mu mpu, ziteretse ku meza ariho igitambaro cy'umuhondo ndetse n'umugabo uhagaze imbere hagati arimo abicuruza.

Mu isoko hateraniye abantu benshi, mu isoko dusangamo ibicuruzwa abaguzi ndetse n'ababicuruza, umucuruzi ni umuntu uba wararanguye ufite ibicuruzwa ashaka kubicuruza kugira ngo abone inyungu, naho umuguzi ni umuntu ukeneye ikintu runaka wazanye amafaranga kugira ngo agihabwe.

Mu nzu icururizwamo ibijyanye n'imitako ndetse n'imyambaro y'abagore irimo amakanzu, hahagazemo umukobwa ufite imisatsi y'ibisuko biremire wambaye agapira gasa n'icunga rihishije.

Inzu irimo amakaro n'amayesikariye akoreshwa n'umuriro, hahagazemo imbaga nyinshi y'abantu bavanzemo abagabo n'abagore, barimo bari mu bucuruzi butandukanye.

Inzu y'igorofa, ifite ibirahuri bisa n'ubururu, ifite ubusitani buteyemo ibiti n'indabo, imbere yaho hari akazu gato kometseho ikimenyetso cya Ara Esesibi.

Abagore n'abana babo bicaye ku ntebe z'urubaho ndende. Bafite udukayi dusa n'umutuku turimo impapuro, bategerereje ahantu hamwe.

Umuntu ufashe ikarita y'ubwisungane mu kwivuza itangwa n'ikigo cya RSSB iruhande rwe hari igikuta gisa nk'ubururu.

Imbaga nyamwinshi harimo abicaye ku meza imbere yabo bafite ibitabo bari kwandikamo bavanzemo abagabo n'abagore, hari n'abafite ikarita y'ubwishingizi ya mituweri y'ikigo gishinzwe imibereho y'abaturage mu rwanda.

Icyumba gisize ibara ry'ubururu hicayemo abantu batatu, babiri bambaye amasarubeti y'umweru y'abaforomo bicaye imbere y'ameza iriho ibitabo byinshi bari kurebana n'umugore wambaye igitenge afite ikarita y'ubwishingizi mu ntoki ze.

Utumeza ndetse n'intebe ziri mu mabara y'umutuku n'umuhondo duteretse ku ibaraza ry'iguriro rya Simba yo ku Gishushu, Simba icuruza imigati, imitobe, amata ndetse n'ibindi byinshi.

Inzu icururizwamo, harimo utubati duteretseho imitobe y'ubwoko bwinshi, hari imitobe iri mu macupa isa n'ibara ry'icunga rihishije, ipfundikije imifuniko yo mu ibara ry'umweru.

Umugore uri mu iguriro, rifite ubuso bushashemo amakaro, harimo utubati duteretsemo ibitabo byo gusoma. Ibitabo byungura ubumenyi.

Isoko ririmo ibyo kurya n'ibyo kunywa bitandukanye higanjemo amata y'ifu, ibirungo bikoresha bateka, urusenda ndetse n'imitobe.

Ni iguriro rifite ubuso bwo hasi bushashemo amakaro y'umweru nandi y'umukara hateretsemo utubati duteretsemo ibicuruzwa biri mu macupa.

Mu nzu hahuriwemo n'abagabo, n'abagore, harimo umugabo uri kureba muri mudasobwa ,mudasobwa ikora byinshi by'umwihariko mu bikorwa by'ubucuruzi, mu kwiga mu buvuzi ndetse no mu ma banki ,gusa icyo byose bihuriyeho ni uko mudasobwa ikoreshwa mu kwandika, mu kubibika amakuru no kujya muri murandasi.

Inzu icururizwamo ibiribwa byinshi cyane ndetse n'ibinyobwa, harimo nk'imigati, isambusa ndetse n'amakeke, hakaba harimo abakiriya benshi cyane.